Abantu bicaye kwa muganga bategereje kubonana n'umuganga, inyuma yaho bicaye hari ibipapuro bimanitse ku rukuta hejuru, mu muryango bari byinjiriremo hari gusohokamo ushinzwe amasuku asohotse muri konsiritasiyo.

Bahagaze munsi y'icyapa cyanditseho ibitaro by'Akarere ka Nyagatare . Mu ruhande rw'iburyo hari ifoto y'ikirangantego k'Igihugu. Mu ruhande rw'ibumoso hari ifoto y'itarapo ry'Igihugu. Inyuma yabo hari amazu bigaragara ari amazu y'ibitaro by'Akarere ka Nyagatare.

Abaganga babiri bagaragara igice, umwe hagaragara ikiganza arimo ahereza mugenzi we umukasi , undi hagaragara intoki ebyiri n'igice kimwe , bigaragara ko hari umurwayi bagiye kuvura.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere ya bo hateye ameza abiri maremare, hejuru y'ayo meza hari impapuro ndetse na amveverolope z'immpapuro, impanpande y'izompapuro hari agakapu batwaramo machine, kandi impande y'ako gakapu hari ibitabo bibiri, hahagaze kandi umugabo wambaye ishati y'umukara bigaragara ko ari gutanga inyigisho runaka.

Ni igice cyo hejuru cy'umubiri w'umuntu havuyemo umutwe, igice cyo mu gituza kigaragara ko ari umuntu urwaye ise.

Inyubako nini iriho irangi ry'ubururu imbere yayo hashashe amabuye y'umweru matoya, ahagaze abantu bambaye amatarubura y'ubururu n'udupfukamunwa, bakoze imirongo ibiri bari gukoma amashyi, inyuma yabo hagaze undi mugabo umwe wambaye itaburiya y'ubururu n'agapfukamunwa, imbere yabo hari abandi bagabo batatu, bahagaze imbere yabo.

Abantu bicaye muri sale, harimo abambaye amataburiya hari n'abarimo kurya amasambusa, imbere yabo hari uwicaye imbere y'imeza, iriho ibikoresho by'ikoranabuhanga, bigaragara ko hari ibyo ari kubereka.